Hano ndabona ari nka sare y'inama, hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye, bambaye imyenda itandukanye amabara, bicaye ku ntebe, harimo intebe zitarimo abantu, iruhande rwabo hari amadirishya y'ibirahure, hanyuma inyuma yabo hari ibirabyo, urebeye no mu birahure hari ibirabyo.

Hano ndabona umunara w'amashanyarazi, ukikijwe n'ibyuma, hejuru y'ibyo byuma hariho senyege, ikindi ndi kubona ibitambaro bya MTN, ndi kubona akazu kari hejuru, ndikubona ibicu, harimo ibara ry'ubururu, n'iry'umweru.

Ifoto ndi kubona imbere yanjye ni ibyapa biranga ahantu ndi kubona icyapa cya mbere kiranga ahantu harirate house rezo ahantu aruhukira acomundation resitoura bale n'ibindi byinshi ikindi kikaranga ahantu hari ivuriro urabona inzu ziri inyumayo zama etage n'ibiti by'icyatsi.